Uducupa tw'umweru ndetse uducupa tw'icyatsi kibisi n'udukarito twose tubitsemo icyo twakwita nk'ibigori cyangwa se imbuto z'ibigori zikoreshwa mu buhinzi.

Umugabo uri mu murima akaba ari mu myaka, ari gutera umuti mu myaka, kugira udukoko twibasiye imyaka ye tubashe kuba twapfa, kugira ngo imyaka ye izere imeze neza.

Umukobwa mutoya, wasutse imisatsi ndetse inzara ze zikaba zisize amabara. Akaba afite ifi ari kuyikuraho amahwa aba ayiriho ndetse kandi kugira ngo ayiteke neza imeze neza.

Abasore bane, bari mu mazi, bari mu gikorwa cy'uburobyi, bafite supeneti imwe bashyira mu mazi, akazamura ubundi amafi bakayakuramo bakayashyira, hanze bakayakuramo bakayoza, bakayatahana. Ni mu kibaya kirimo amazi menshi.

Umugabo uri mu cyuzi akaba ari kurobamo amafi, ayafite mu ntoki ndetse kandi ari guseka yishimiye ibyo amaze gukora, yambaye agapira gatoya n'ipantaro y'umukara.

Umugezi munini ndetse kandi ukaba ubamo amafi ,ndetse bororeramo inkwavu, kuko mu mazi hubatsemo utuzu tubamo inkwavu ,hafi y'aho kandi hagiye harimo ibyatsi byimeza.

Umugabo uri hafi y'ibyuzi arobamo amafi ndetse kandi afite ifi nini cyane ndende, yayifatishije amaboko yombi ndetse kandi bigaragara ko iri kumuvuna.

Ubworozi bw'amafi ni kimwe mu bituma iterambere ry'Igihugu ndetse n'iterambere ry'abaturage rizamuka, ni bamwe mu baturage bageze muri batatu bari gushyira amafi mu bibasi kugira ngo abe yafashwa neza ndetse kandi yitabweho.

Abantu bari mu mazi bari kuroba amafi kandi ni abagabo ndetse n'abakobwa, abakobwa bambaye impuzankano bari mu mugezi w'amazi menshi, ku musozi hari umusozi w'ibyatsi.

Abantu bari mu kibaya, bagiye kuroba, bafite ibidobo bashyiramo ibyo barobye kandi n'abagabo batanu bari hafi y'amazi, ikindi kandi, barikuroba bashyiramo imiti kugira ngo amafi abe yayibona azamuke.

Umugabo munini ukora akazi k'uburobyi ari mu kibaya kirimo amazi menshi, kandi afite ifi nini agiye kuyibika mu mufuka, kandi yambaye imyenda y'akazi akoresha mu burobyi.

Umuntu ufite akabasi karimo amafi, avuye kuyaroba ahantu mu mugezi. Kandi ayatahanye avuye kuyaroba muri uwo mugezi, ngo umuryango ubashe kuyarya.

Umugore umwe uteze igitambaro akaba yambaye n'isaha ku kuboko yambaye n'ikanzu afite agafuka ndetse ako gafuka karimo imyaka, ari gukura imyaka imwe ayishyira ahantu agiye kuyanika.

Umugabo uri mu mu mazi menshi akaba ari kuroba, ari mu mazi y'umugezi, ari kurobesha ikintu kimeze nk'icyuma kandi ari kukizamura ngo arebe ko hazamutse amafi.

Amafi arindwi arobye mu kibaya kinini cyane, akaba ari amafi agiye kuba yaribwa mu gihe gito mbere yuko akoreshwa, atunganywa neza akaba yakoreshwa mu kurya.

Umusore wambaye agapfukamunwa ndetse akaba yambaye n'imyenda isanzwe myiza, akaba asa neza cyane afite ifi nini mu kaboko ke, iri kumuvuna cyane, ni ifi nini cyane.

Umugabo ufite agakombe, ndetse n'umugore ufite akabase, hirya yabo hari umwana uragiye. Bari hafi y'ikibaya kinyuramo amazi mabi, kandi bari kugaragaza ko bamaze kuyarobamo amafi.

Mu kibaya kinini kandi gifite umusozi hejuru, hariyo amashyamba menshi kandi muri icyo kibaya hateye imbuto zitandukanye nk'icyayi. Harimo abantu benshi ndetse bambaye impuzankano z'akazi bari gusarura.

Igihingwa cy'ikawa ni kimwe mu bituma iterambere ry'igihugu rizamuka kuko ikawa havamo icyayi cyiza cyane ndetse iryo kawa rikaba rituma abantu benshi bakoresha bagira ubuzima bwiza kandi havamo n'ibibabi bishobora kuba byagira umuti.

Urubuto rw'ikawa ni kimwe mu bituma habaho iterambere ndetse n'izamuka ry'ubukungu bw'igihugu. Ikawa ni kimwe kandi mu bituma abanyeshuri bagira ubuzima bwiza, kuko hagurwamo amakaye n'amakaramu bakajya kwiga.

Ababyeyi basutamye bari gusarura imyaka bayicimbagura munsi. Ni imyaka yitwa ingano bahinze bari kugenda bayisarura yareze.

Igihingwa k'icyayi ni kimwe mu bituma iterambere ry'igihugu ryihuta kuko iyo kijyanywe mu mahanga kiragurwa kigakoreshwa ndetse kikaba n'ahantu heza hatuma abantu banahagera.

Abantu bari mu murima ndetse bakaba bafite utuntu bahetse bashyiramo ibintu bari gusarura ni umugore ndetse n'umwana n'umugabo bari gusarura imbuto zitwa icyayi mu kibaya kinini gihingwamo.

Imbuto y'ikawa yasaruwe itegerejwe kuba yatunganywa imwe imennye hasi, indi iri mu kabasi iri gutorwamo imbisi indi ishyirwa aheza, indi ijugunywa irimo ibintu bitameze neza.

Imyaka yahinzwe hafi ku musozi, ikaba iri mugihe cyo kwera, ni myaka iri mu mugihe kimwe kandi iri kuzamuka neza, ifite imvura ntabwo izarumba.

Umurima mwiza uteyemo imyaka rwose isa neza kandi ubona ko yabonye imvura, irasa neza, iteye ubwuzu kandi ku ruhande rwayo hariyo amashyamba akurura umuyaga.

Udushashi tw'udupfunyika turi ahantu hamwe, twica inyamaswa ni udupfunyika tw'ibiyobyabwenge, inyamaswa zishobora gutoberwa, zikaba zatumaywa cyangwa zikaturya, zikaba zapfa.

Imiti ishobora kwica icyitwa cyose inyamaswa, ni imiti iba iri mu bikarito, mu ducupa ndetse kandi ikaba ari mu bwoko bw'iy'ifu ndetse n'iri mu bwoko bw'amazi.

ubuhinzi n' ubworozi, ni kimwe mu bigaragara mu karere ka Nyagatare ndetse kandi ikimenyetso kibigaragaza nk'ikirangantego, bagaragaza ko bafite koperative ishinzwe kongera umukamo muri Nyagatare.

Umuhinzi uri kubagarira igihingwa yateye kandi akaba ari kugishyiraho igitaka cyinshi ngo kizamere neza kandi kibone imvura, ni mu murima wahinzwe neza.

Abantu bari ku musozi bari kugenda basarura, abandi bahinga, bari ku musozi munini uteyeho imyaka kandi hakaba hateye n'amashyamba azamuka.

Umugabo uri mu murima we akaba ari kwitegereza imyaka yateye ni amasaka ndetse ari kureba igihe azerera. Ni hafi n'ikibaya kinini cyane n'imisozi minini cyane, iri hejuru iteyeho imyaka yindi.

Ubuhinzi bw'ingemwe z'imbuto bita umwembe, ziri ahantu hamwe barazigenetse kugira ngo zibashe kuba za kwera cyangwa se zazamuka, bazazitere nyuma abantu bagire ubuzima bwiza.

Abahinzi, bari mu murima, bari gusarura ibigori byeze cyane. Byarumye kandi higanjemo abagore ndetse n'abagabo, nibo bari gusarura muri uwo murima.

Abagabo batatu bafite imihoro ndetse hiryabo hari umugore wikoreye inkwi, ari ahantu mu kibaya cyamezemo ibyatsi byinshi kandi bagiye gutema ishyamba riri hafi yabo.

Umugabo uri gutera imbuto ndetse zimwe anazisukira, ni ahantu hateye imbuto nyinshi ndetse kandi zameze zikaba zarazamutse zirenda kwera ahubwo zigeze mu gihe cyo kubagarwa.

Abahinzi batatu umwe ari kubagara ibigori undi ari kugenda arebamo nkongwa mu bigori ndetse kandi bari kugenda bafatanya mu gukuraho imyanda.

Abantu bari mu kibaya bari guhinga ndetse banatera imyaka, bari guhinga imiceri ndetse kandi bafite amasuka, kandi hirya yabo hari umusozi muremure utuwemo n'abantu.

Abagore bakora akazi k'ubuhinzi, bakaba bari mu murima, bari gusarura imboga bahinze zitwa amashu. Ndetse ni abagore basa neza, bambaye neza rwose nk'abahinzi.

Umugabo w'igikara wambaye ishati y'umweru ndetse akaba yegereye n'inka yiwe ifite amabara y'umweru n'amabara y'umukara, akora akazi k'ubuhinzi n'ubworozi.

Abagabo babiri bafite amasuka ni abagabo bavuye guhinga, kandi bara ahantu mu byatsi byinshi byagandaye hafi y'ishyamba, ndetse iri shyamba rikaba rifitemo ibiti birebire.

Umurima munini uteyemo imyaka itandukanye. Harimo nk'imyumbati yerera umwaka kandi ikaba yera igashorwa mu masoko ndetse kandi abantu bakayigura na bo bakagira ubuzima bwiza.

Umusozi munini ubitse ndetse ufite ibyatsi bisa n'icyatsi kibisi, ibyo byatsi ndetse n'ibiti bikaba bifite umumaro munini cyane: icya mbere ni ukuribwa, icya kabiri ni ugutanga imiti ku bantu bafite uburwayi ndetse kandi no mu bijyanye no kuba wagurishwa bikavamo amafaranga.

Ku kibaya giteyemo imyaka ndetse kandi isa n'icyatsi kibisi, hari amafoto yohereza amashanyarazi, mu ngo zitandukanye kandi ayo mafoto anyura mu bibaya byo mu kabande.

Ikibaya kinini cyane cyagutse pe mu buryo bunini kandi kikaba gifite imyaka iteyemo ishobora kuba izera ikaba yashorwa mu masoko agiye atandukanye kandi hari ipoto ijyana amashanyarazi hirya no hino.

Ibirayi iyo biri mu butaka bishakisha uburyo byakurura imvura kandi n'ahantu hari igitaka kugira bibashe gukurura ku buryo bwo kwera, bikaba ibini ndetse n'icyumba cyaho bikaba byakuma.

Ibibabi by'imboga yitwa imbwija, ndetse kandi kikaba ari ikimera cyazamutse ahantu heza, kikaba gikenewe kuba cyavomererwa kandi kigasukurwa ku mpande kugira ngo kibashe kwera neza.

Igiti cy'icyatsi kibisi cyera imbuto zitandukanye, ni igiti cyera amacunga iryo cunga. Rikaba rifite umumaro munini wo kuba yakiza indwara zitandukanye nk'inkorora ndetse n'izindi zituma...

Igihingwa cy'ikawa cyera mu kwezi kwa gatatu ndetse n'ukwa kane, kiba gifite umusaruro mwiza uhagije, dore ko aricyo gituma n'iterambere ry'igihugu rizamuka, bikaba bifasha kugira ubuzima bwiza ku baturage iyo bashora mu masoko.

Umurima uteyemo imbuto ndetse harimo n'ahantu hateye imyumbati. Ni hafi y'ahantu hari amazu menshi y'ubucurama ndetse kandi hakaba ari ahantu hatuma iterambere rihagera.

Umurima uteyemo ibigori ndetse bikaba ari ibigori bisa neza, byagize imvura ndetse kandi nta nkongwa bifite kuko birasa neza, birakeye.

Ibibabi by'icyatsi kibisi ni bimwe mu bituma habaho ibiryo bihagije ndetse kandi bikaba byatuma habaho kugira umusaruro mwiza ndetse bikaba byanashoka bikavamo imiti ndetse n'ibindi. Ibishyimbo ndetse n'ibigori ni kimwe mu bituma iterambere ry'Igihugu rizamuka.

Umurima munini urimo imbuto z'ibigori. N'ibigori byenda kwera kuko bitaruma. Ariko aho bigeze aho, umuntu yabisarura akabyotsa akanabiteka.

Umurima uteyemo imyumbati ndetse ikaba ari imyumbati ikiri hasi itarazamuka ngo ibe yagera mu gihe cyo kwera. Iri mu murima, nta yindi myaka irimo uretse iyo myumbati.

Ikibaya cyiza cyiganjemo imyaka, kirimo amasaka ndetse ikawa n'ibindi bihingwa bisa n'icyatsi kibisi nk'ibijumba kandi ni ikibaya kinyuramo amazi atemba mu migende.

Inka nyinshi ziri kurisha ahantu heza hari ibiti byinshi, kandi bishashagirana n'inka z'umweru ndetse zifite ibara ry'umweru kandi n'ubururu.

Ishyamba rinini rya kimeza, akenshi riba rigaragaramo ibiti: bishaje, ibyumye ndetse n'ibikiri bitoya kuko haba harimo n'ibiti bitera imyaka ndetse n'ibyera imbuto muri ayo mashyamba.

Ishyamba rinini ndetse rya kimeza rikaba rifite imbuto nyinshi zitandukanye muri iryo shyamba, harimo imbuto barya, imbuto basoroma ndetse kandi zikaba ziribwa zose.

Ishyamba rinini cyane ndetse kandi rikaba ari ishyamba rya kimeza, rifite ibiti birebire ndetse mo imbere harimo n'imbuto z'amapera, amavoka n'izindi.

Agasozi karekare gateyeho ishyamba ndetse kandi kakaba karimo n'ibyatsi kandi kurundi ruhande gafite amabuye y'ibitare ndetse kandi ashobora kuba yagira umumaro mu kubaka.

Ishyamba rinini ndetse hakaba hari ahantu bororera inka zikaba zifashishwa mu buryo bwo kuba haboneka amafaranga ndetse iryo shyamba rikaba ribitse n'ibindi binyabuzima uretse inka gusa.

Umusozi munini uteyeho ishyamba rinini, ni ishyamba ribitse ibinyabuzima bigiye bitandukanye, yaba ibikoko n'ibindi ndetse ku ruhande hari ubusitani bwiza bwubatse, munsi yaho hari imyaka ihateye mu kibaya kiri aho.

Agasozi kanini karimo ikibaya kandi gafite ishyamba rinini. Ni ishyamba ry'ibihuru utabona ahantu unyura. Kandi hari imisozi iruhande rwayo minini irimo amashyamba.

Umurima munini uteyemo imyaka ndetse n'ibiti biriho bimera, harimo ibya gereveriya ndetse n'ibindi, hirya harimo ibiti by'imbuto, harimo n'ibiti by'amakaratusi biri kuzamuka.

Amazu yubatse ku musozi ndetse akaba anubatse mu ishyamba. Ni ishyamba rigari kandi rifite ibintu binini cyane bifite ibihuru.

Ishyamba rinini ririmo ibihuru ndetse hirya yaho hari imisozi myinshi cyane kandi iryo shyamba rirafatangwe ku buryo umuntu atabona aho anyura cyangwa se akayira anyuramo.

Umukobwa mwiza wambaye umupira w'imbeho w'umweru ndetse kandi akaba yambaye n'ingofero, ari mu murima, ari gusarura imyaka ndetse kandi arishimye kuko abona ko yeza.

Abagore babiri ndetse n'umwana, inyuma y'umugore umwe bakaba bari mu murima bari gusarura imyaka, ni imyaka igendanye n'imiteja bari gusarura basetse cyane.

Abagabo babiri bambaye ingofero ndetse bari gutera imyaka yabo bakoresheje utuntu tw'imigozi kugirango ngo imyaka igende ku murongo neza nta kibazo. Bari gutera banayibagarira imwe ndetse kandi banayisukira.

Umugore uri gusoroma imboga, mu karima k'igikoni, ni akarima k'igikoni gateyemo imboga, ibishyimbo ndetse n'ibigori . Kubatse neza karasa neza cyane ,uwo mugore ariho aragasoromamo imboga.

Umugabo ukora ibigendanye n'indabo agahinga ibigendanye n'indabo ari kuzikorera isuku azihanaguramo imyanda n'ubukoko bujyamo kugira ngo zizabe indabo zifite umumaro ku bazikoresha.

Umukobwa mwiza ndetse akaba afite imbuto ebyiri z'inanasi kandi inyuma ye n'ubundi akaba acuruza, ibinyomoro, amacunga, intababara ndetse n'ibindi.

Umugore uri mu murima we kuko ni umuhinzi mworozi akaba ahinga imbuto zitwa intababara, ni kimwe mu gihingwa gituma habaho iterambere umuntu wese wabihinze kuko hari aho byera.

Ibikoresho bizamuye byifashishwa mu kuba basukira imyaka kugira ngo ibashe kwera, ndetse kandi hakaba hari ibikoresho byabugenewe bisa neza biteye irange cyane.

Abantu bambaye amataburiya barimo imbere mu murima umurima wubakiye ufite uburyo uvomererwamo abantu bariho barasarura ndetse kandi ni umurima mwiza urimo ubuhinzi buteye imbere.

Umugabo w'umusaza inshuti imvi z'uruyenzi, akaba afite n'uruhu rukanyaraye ndetse yambaye imyambaro y'akazi, ari mu murima ari gusukira imyaka yahinze kugira itazuma.

Abashinzwe gukoresha ibimashini byabugenewe mu buryo bwo gusukira imyaka, bafata ibihombo bagashyiramo amazi ndetse bagapuriza kure aho imyaka iri batiriwe bahagera.

Ikibaya kinini ndetse n'imisozi myinshi isa n'icyatsi kibisi higanjemo imyaka, amashyamba ndetse n'indi. Muri ayo mashyamba harimo amapera, amacunga, voka ndetse mu myaka iteye harimo umuceri ndetse n'indi myaka itandukanye.

Umuntu uri mu murima ari mu myaka yahinze, ari kuyisukira ayivomerera kugira ngo ibashe kugira ubuzima bwiza, ibashe kuba yakwera ari kuyivomerera akoresheje igihombo cyabugenewe.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko ndetse n'abagore, harimo n'abagabo bakuze kandi harimo abambaye amajire ikindi kandi harimo umugabo uri kugenda ubahamagara akabavivura.

Umugore n'umugabo bari mu murima bari gusukira imyaka bakoresheje igihombo kizana amazi, hanyuma bari gushaka ko imyaka yabo yakwera kuko imvura iba yarabuze.

Umugabo ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga, akoresha mu kuvomerera imbuto yahinze. Ari kumwe n'umwana we, ufite igihombo cyo kuvomerera izo mboga ze.

Umugabo w'umuhinzi akaba yambaye bote z'akazi ndetse ari mu murima we ari kuvomerera imyaka y'ibigori yahinze ndetse kandi ni ibigori bikizamuka, bigiye kuba byazamura kugira ngo bibyare umusaruro uzashorwa mu masoko.

Umugabo mwiza kandi usa neza wambaye ishati nziza ari kugaragaza ibigendanye n'intego bafite nk'umushinga batangiye kandi ari muri sisitemu igendanye n'ubuhinzi.

Ikibaya giteyemo ibihingwa bisa n'icyatsi kibisi kandi no ku musozi hakaba hari ibindi bihingwa, ariko ho hakaba harimo n'ibiti bizamutse, n'ingo zijye zitandukanye zibamo abantu.

Ikibaya kinini kinyuramo amazi ndetse haruguru yaho hari imisozi. Iyo misozi iteyemo amashyamba ndetse n'imbuto za kimeza, zituma abantu babaho iyo bagiyemo gusarura ndetse harimo n'ibyatsi byinshi.

Agasozi keza karimo imyaka ndetse karimo imyaka y'icyatsi kibisi, imwe ntirera indi itegerejwe kuba yasarurwa aandi abenshi bari kuyisarura.

Ibibaya ndetse n'imisozi iteyemo imyaka myinshi y'icyatsi kibisi, harimo imyaka yeze ndetse harimo n'imyaka itarera kandi hari umusozi n'indi misozi iteyeho amashyamba.

Inzu yubatse ahantu habi hari amashyamba insina hari amasambu ndetse kandi hakaba n'abandi bantu bahatuye muri aho hantu. Hari ibintu bigiye bitandukanye, barahahinga bakashakira ubworozi butandukanye.

Umusozi uteyeho ibiti kandi hakaba hari ibiti ku ruhande ndetse n'amazu, agaragaza ko hari imbuto ziteyemo zikusanywa zigahabwa abaturage kugira ngo bazihinge nk'avoka ndetse n'izindi.

Umusozi munini uriho ibitare by'amabuye ndetse kandi uyu musozi ufite imyaka ndetse ukagira n'amashyamba menshi, harimo ibihuru ndetse n'ibiti byimeza bitanga imbuto zo kurya.

Umusozi munini ndetse uteyeho imyaka igiye itandukanye, harimo ibihingwa bisa n'icyatsi kibisi ndetse harimo n'imbuto n'ibiti bituma habaho kugira umuyaga ndetse n'umwuka mwiza.

Ikibaya kinini cyane ndetse kikaba cyegereye umusozi munini, uteyeho imyaka kandi iyo myaka ikaba iri ahantu hacuramye cyane, hari imvura iguye ishobora gutwara imyaka.

Imisozi ifite ahantu hacuramye ndetse kandi hakaba hananamye. Hari abatuye hafi aho ngaho, bishoboka ko imvura ishobora kugwa ikaba yabatwara ndetse harimo n'imyaka ihateye nk'insina ndetse n'iyindi itandukanye.

Ubworozi bw'inkoko ndetse ni bunini cyane hakaba ari imishwi iri ahantu hamwe, imwe ri kunywa amazi indi iri gutora ibyo kurya baba basize hamwe, ni udushwi twinshi.

Inka iri mu kiraro ndetse ikabageranye n'izindi ziri hakurya ariko ikaba iba mu kiraro ari imwe yonyine. Ni inka nziza iri mu nka zigezweho ndetse kandi igaburirirwa mu kiraro ntabwo isohoka.

Inka zororewe ahantu heza ziri mu biraro byubakishije ibyuma kandi ziri mu bwoko bw'inka z'inzungu ndetse zibayeho neza cyane. Zifite ubwiza butangaje kandi n'umuntu uzikurikirana asa neza.

Inka nziza ifite iherena ku gutwi yakingiwe iri kurisha ndetse kandi iri hafi y'umuhanda. Unyurwamo n'amaguru kandi ukanyurwamo n'abantu abo aribo bose.

Inzu nziza y'ikiraro yororewemo inka, kandi ikaba ari ikiraro gisa neza cyubakishijwe isima, ndetse kiba gishakakajwe amabati meza. Mo imbere kandi harimo n'amatara.

Uduswi turi ahantu hamwe, twororewe ahantu hamwe. Turimo udusa n'umukara, udusa n'umweru ndetse kandi dufite aho tunywera amazi, dufite n'aho turira ibiryo byatwo.

Ingurube nini y'imbyeyi isa n'umukara, ikaba yarabwaguye ibibwana bidasa ndetse kandi yororewe ahantu heza hasa neza cyane, ikaba iri guhamagarira ibibwana byayo.

Inkoko za kijyambere zizwi nka sasu zororerwa mu kiraro, ndetse ziba zifite umuntu uzitaho akaziha ibyoku kurya. Ni inkoko nziza kandi zifite uko zisa neza.

Urwuri runini rwororewemo inka nyinshi ndetse harimo inka z'imbyeyi ndetse n'imfizi, ni urwuri rurimo ibyatsi byiza, ibiti byiza ndetse harimo n'abashumba bazikurikirana.

Ingurube nini y'ingore ikaba iri mu kiraro ahantu yororewe iri kumwe n'ibibwana byayo biriho birimbura ibindi biraryamye ndetse kandi hari n'ibishaka kuyonka.

Ingurube nyinshi zororewe ahantu hamwe zikaba ari ingurube ntoya zigikura harimo iz'ubwoko bw'isungura zifite umunwa muremure kandi zikaba zororewe ahantu mu cyumba hamwe.

Umusore wambaye igisarubiti cy'ubururu bote z'umweru akaba yambaye ishashi mu kuboko, ayicengezamo agakuramo umwana uri mu nka akayibyaza, ni inka iri mu kiraro ari kubyaza.

Ubworozi bw'ihene nziza ihene z'inzungu kandi ni ihene nyinshi zororewe ahantu hamwe, ni uruzitiro runini rurimo ihene nyinshi zikaba zifite uzitaho.

Ingurube nini iryamye hasi ikaba ifite ibibwana byayo, ikaba iri kubyonyesha ni yo mpamvu yaryamye hasi kugira ngo bibashe kuba byakonka.

Inka z'inyambo ndetse zikaba zororewe ahantu heza mu kiraro kandi hari abantu baje kuzivura kuzireba ibibazo zaba zifite aho ngaho.

Ubworozi bw'inkoko z'umweru kandi zikaba ziri ahantu hamwe mu kiraro cyiza, hakaba hari amatara, ibikoresho biza by'ikoranabuhanga, niho zirira, niho ziryama, niho zinywera ndetse n'ibindi.

Ubworozi bw'inkoko zororewe ahantu hamwe kandi zikaba ziri kubyigana ndetse n'inkoko zikiri ntoya z'inkokokazi cyangwa se inkoko z'ingore, zifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'ikigina.

Imbaga y'abantu benshi bahagaze ahantu hamwe, bakaba begereye inzu y'agacurama kandi bariho baragaragaza ibigori byeze, byakuwemo ibishishwa ndetse kandi byapfunduwemo biriya bishishwa biba biri inyuma.

Udufuka twinshi tugerekeranye kandi utwo dufuka tukaba tubitse imbuto z'inyongeramusaruro, ni imbuto zifashishwa mu buhinzi ndetse kandi zikaba zifasha cyane cyane abantu bongereye umusaruro banahinga.

Umuntu uri gutunganya imbuto amaze kweza, zimwe azitera ibara ritukura kugira ngo azishyire mu mufuka wabugenewe. Kandi ari kwifashisha intoki ze kugira ngo abe yazifashisha muri ubwo buryo.

Umuntu uri mu murima uri gutera imyaka ndetse kandi yambaye ibikoresho bituma atera, ni kakoresho bambara mu biganza kugira ngo imyanda itamujya mu ntoki.

Imbuto y'ibirayi abantu bari gushyira mu mifuka, bayisaruye mu murima kandi ni abagabo babiri bari kubikura hasi babishyira mu mifuka.

Imifuka myinshi ipakiye imiceri yeze kandi ni imifuka ipakiye imyaka imaze kwera. Ipakiriye ahantu mu cyumba ndetse kandi irarambitse. Ni aho bayirambitse kugira ngo bazayihakure.

Umuntu w'igikara kandi yateretse imbuto ze mu kintu, ariho arazijonjoramo izapfuye kugira ngo abashe kuba yajya gutera inzima, izapfuye azikuramo akazijugunya.

Umugore uri guhuza udufupfunyika turimo amata adushyira mu tundi kandi tubitse mu bintu bimeze nk'ibintu bibikwamo inzoga.

Umuveterineri wabigize umwuga, akaba yarabyigiye, ari kuvura itungo ry'ihene ryagize ikibazo, afite ibikoresho by'ibanze nk'urushinge ndetse n'ibindi yambaye ku kaboko.

Ingurube ifite ikibazo, ikaba iryamye hasi nk'irwaye, kandi ikaba ikenewe kugira ngo ijyanwe kuba yavurwa irebwe ko yaba ifite ikibazo no mu nda kuko ifite inda nini.

Umuntu wambaye impuzankano z'akazi k'ubuveterineri yambaye igisarubeti ndetse n'inkweto zabugenewe, akaba ari gukora mu nda y'inka iri kubyara kugira ngo ayikize anayikuremo umwana wayo.

Abazwi cyane cyane nk'abavuzi b'amatungo bafite ibikoresho imbere yabo bifashisha mu kuvura ndetse no mu gufata neza izo nyamaswa nk'inka, ihene ndetse n'izindi kandi bafite ibikoresho biri ku meza bariho barasuzuma banabikorera isuku.

Inyamaswa imwe mu zigenga ziba mu mashyamba cyangwa se muri pariki yitwa ingwe, ikaba iri hejuru mu giti ikaba ariho yasinziriye niho yiryamiye.

Inyamaswa ifite ijosi rirerire ndetse ikaba iba mu ishyamba kandi bayita isha ndetse kandi usanga yirukankanwa n'izindi nyamaswa.

Inkende ni inyamaswa zigenga, ziba mashyamba ndetse kandi ugasanga ziri no mu mijyi, ziri kugenda mu mihanda, hafi y'amazu yubatse kandi hafi n'ibiti byo mu mashyamba.

Inyamaswa nini cyane ifite amahembe menshi ndetse ikaba iri mu ishyamba iri kurisha ibyatsi, ni hafi kandi y'umugezi iri, ikaba ari inyamaswa imwe mu zigenga ziba no muri pariki.

Igisamagwe kinini kizwi nko kuba cyitwa ingwe ,kiraryamye kizwi nko kurya inyama ndetse kandi kikirukankana inyamaswa zimwe na zimwe kugira ngo zibe zakirya, aho ngaho muri pariki ziba kimwe.

Inyamaswa zizwi nkoho kwigenga, zizwi cyane nk'ibisiga, zikaba ziba mu mashyamba cyangwa se zikaba zaba mu mazi. Ni inyoni enye, zikaba zihagaze ahantu hamwe.

Inyamaswa zigenga ziba mumashyamba ndetse n'iziguruka zapfuye, ziraryamye kubera gupfa, zazize ibintu bigiye bitandukanye bibaho hano hanze, harimo nko kugira ikirere kibi.

Inyamaswa imwe mu zigenga ikaba ari intare y'ingore, ikaba iri hejuru ku giti ikaba iryamye kandi ikaba iri hejuru mu giti mu bushorishori ari ho yuriye.

Inyamaswa zizwi nko kwitwa impyisi, ziri mu mazi, ziri guhogera zabira cyane zihamagara ingenzi zazo ngo zize zitabare kuko zishobora kuba zafashwe n'izindi ziri mu mazi.

Igisimba cyigenga kiba mu ishyamba cyitwa impyisi, kiryamye ku gititsi cyumye, kandi kikaba kiryamiye cyasinziriye, kiramutse kibonye ikintu kigikanga cyahita kibyuka.

Zimwe mu nyamaswa zigenga ziba mu mashyamba cyangwa se mu maparike izwi cyane nk'inyamaswa ifite amahembe maremare ikaba izwi cyane cyane mu kwiruka cyane igasiga izindi nyamaswa ikunda cyane kwirishiriza ibyatsi kandi ikunda kuba yonyine.

Inyamaswa imwe mu ziba muri Pariki ifite ubwenge bwinshi budasanzwe, ikaba ishobora kumva akantu gakomye. Ifite amatwi abanguye kuko ibasha kumva ikintu icyo ari cyo cyose kiba cyashobora kuyikoma.

Inyamaswa yigenga yitwa ingwe iba mu ishyamba. Igakunda kugira amahane akabije kuko yifashe inyamaswa iyifata ku gakanuu ikayirya ikayikokora.

Igisamagwe cyitwa ingwe kiba muri pariki gishobora kuba cyakwirukankana inyamaswa zindi zitandukanye ,ziracyazirya kandi kikaba gifite imwe mu miterere yo kugira amahane cyane cyane ko kirya zimwe mu nyamaswa.

Inyoni ebyiri z'imisambi zifite udusatsi tuzamutse hejuru, zihagaze ahantu ziriho ziratora. Kandi zifite ibara ry'umweru kuruhande, n'ibara ry'umukara. Ziri gutora ahantu mu gashyamba.

Igisimba kiba mu ishyamba gifite amahembe ameze nk'inzara zityaye, kiri mu ishyamba, kibonye mu misozi yo hirya yaka umuriro kirikanga, kiriruka ndetse kigeraho kirahagarara cyumviriza amatwi hirya yacyo.

Igisimba kigenga cyitwa ingwe kiba muri parike, gikunze kugira amahane kandi gikunda kurya izindi nyamaswa, kiryamye ku giti aho kirambitse kandi kiri kureba hirya.

Zimwe mu nyamaswa ziba muri pariki, ikaba izwi cyane cyane nko kugira amahembe, maremare, izwi nk'izina rya isha, ikaba iteye nk'ihene, iriruka cyane kuko iba ifite amaguru maremare.

Ibisiga biri kugenda mu mazi ndetse ni ibisiga biri gutoramo amafi mu mazi kugira ngo bibashe kuba byabona uko bibaho ndetse kandi ni ibisiga bisa n'umukara.